Ishuri ry'inshuke. Mu burezi bw'inshuke iyo ukinyinjira mu ishuri ryabo, usangamo ibikoresho bikurikira: ibipape by'imodoka, ndetse n'ibikoresho byinshi bakoresha biga.

Irerero ry'abana b'inshuke ni ahantu barerera abana usanga haba hari ibikoresho bitandukanye, ibikinisho by'ibimodoka, ibikinisho birambuye hasi, aho baryama, utuzu twaho twubatse mu bintu bitandukanye ndetse n'ibikarito.

Umwana wiga mu mashuri abanza agomba kuba afite uducamurongo harimo utw'uruziga, harimo utwa mpande eshatu, utwa mpande ebyiri ndetse n'agacamurogo karekare gaca umurongo ugororotse, agomba kuba afite kandi amerekezo cyangwa se agakoresho gakora amerekezo, akaba afite ikaramu y'igiti ndetse n'agacongesho.

Mudasobwa iyo uyiteretse ku meza ukaba ufite ihuzanzira ry'ikirere rizwi nka interinet mu kinyarwanda, usanga biba ari byiza cyane, uyikoresha ushaka amakuru ku ikoranabuhanga.

Ibigo birimo abanyeshuri bigomba kuba bizitije inzu ndende kandi n'inkuta ndende zirimo amazi kandi amashuri asakaye neza, ibiti, ubusitani bwiza n'indabyo.

Ibigo by'amashuri usanga harimo ibikoresho bitandukanye harimo amamashini, iza mubazi ndetse harimo amakayi, amakaramu, hakabamo udukayi twandikwamo, hakabamo impakasi ndetse n'amakaramu y'ibiti ndetse n'uducongesho twayo.

Uburezi bwo mu mashuri yisumbuye ni uburezi bukorwa bubaka amashuri ibyumba bitandukanye byiza kandi binini bagashyiramo intebe, bagashyiraho ibibaho byo kwandikaho ndetse bagashyiraho n'impuzankano abanyeshuri bazajya bambara n'ibarinda imbeho.

Abanyeshuri iyo batonze umurongo baba bameze neza, bambaye imyenda y'impuzankano ndetse usanga babogoshe banafite imyenda isa neza kuko nabo ari beza nkuko biba bigaragara muri bo.

Mu mashuri makuru ni ho usanga abanyeshuri biga, bicaye ku dutebe, bicaye ku ruziga, bafite ibikapa ndetse usanga by'umwihariko baganira, baganira ku byabateza imbere.

Amashuri ya kaminuza, amakuru, ayisumbuye ndetse n'amashuri y'imyuga yifashisha abana bakora ubushakashatsi baba biga ndetse banasoza ibyo bize mu mashuri matoya abanza, baba bafite ubigisha umwarimu wabo bakagira uko biga bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Aho bahagarika ibinyabiziga usanga iyo umuntu agiye ahantu akeneraho gushyira ikinyabiziga cye mu buryo bwo kugirango abone uko akora ibindi atari kumwe nacyo, aho bagihagarika rero niho bita mu buhagarikiro bw'ikinyabiziga, usanga harimo amagare, moto imodoka n'ibindi bitandukanye.

Indobo ameza ndetse tuwalete cyangwa se ubwiherero ndetse n'ibyangwe byo kubwoza. Ibyo ni ibintu byifashishwa mu gukora amasuku.

Kaminuza ndetse n'imyuga. Iyo abanyeshuri biga baba biga bandika. Bafite ibitabo, bafite amakaramu ndetse bicaye no ku ntebe, ugasanga hamwe na hamwe bafite n'uri kubigisha. Biba byiza cyane iyo bafite umwarimu ubizobereyemo. Ari we ubigisha.

Ishuri rikuru rya kaminuza, usanga ariho abantu biga, bakoresheje, gushyira mu bikorwa ibyo bize. Bakoresha by'umwihariko, isuzumiro cyangwa se icyo igikoresho bifashisha, bareba ikintu, umwimerere wacyo.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse n'amashuri y'imyuga niyo mashuri agize uburezi bw'u Rwanda usanga harimo amazu yubatse neza hariho ibirango byayo ndetse n'ibyo akora biba bimeze neza kuhagera usanga ari nk'ibuzungu.